Urukuta rw'inzu ry'umuhondo, rwanditseho amagambo manini ari mu mabara: y'umweru, umutuku n'umukara; aya magambo aramamaza rumwe mu nganda zikomeye zikorera mu Rwanda, zikora inzoga ziryoshye z'ubwoko butandukanye.

Mu nyubako ifite urukuta rwubakishijwe amatafari, hari ameza ashushanyijeho imirongo y'umukara n'umweru, ateretseho ururabo n'igikombe gikozwe mu birahuri kirimo inzoga. Inyuma yabyo, hari akabati ndetse n'icyuma gikoreshwa mu gukonjesha, byombi birimo ibinyobwa bitandukanye nk'inzoga, amazi ndetse n'imitobe ikorerwa mu nganda.

Umugore wambaye ikote ry'umweru yicaye imbere y'ameza, arambitseho ibikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye birimo n'ibyifashishwa mu guhererekanya amafaranga hifashishijwe ikoranabuhanga, ubu buryo bworohereza abantu, kubona ibyo bashaka mu gihe gito kandi boboroheye.

Akazu gato k'umuhondo gakozwe mubyuma gafite amadirishya kumpande zitandukanye, aka kazu gatangirwamo serivise zibigo byitumanaho bikomeye murwanda ibi bigo byorohereza abantu guhererekanya amafaranga, ubutumwa ndetse noguhamagarana hifashishijwe ikoranabuhanga rigezweho.

Umugore wambaye ikanzu y'amabara atandukanye ndetse n'isaha ku kuboko, ari kumwe n'abanyamakuru bafite ibikoresho by'amajwi n'amashusho, inyuma yabo hari icyapa cy'umuhondo cyanditseho amagambo ndetse n'ibishushanyo byamamaza kimwe mu bigo by'itumanaho.

Umuntu uhetse igikapu k'icyatsi cya vuba vuba yambaye umupira w'icyatsi ari guparika igare imbere y'amarembo y'urugo. Vuba vuba ni uburyo bikoreshwa n'abantu kugira ngo bishyure ndetse batumizeho ibicuruzwa mu gihe gito kandi mu buryo bworoshye.

Ibirango n'amazina y'ibigo bikomeye bikora ku rwego mpuzamahanga, ibi bigo bikora ibijyanye n'itumanaho, imyidagaduro ndetse n'ubucuruzi bw'ibintu bitandukanye birimo ibikoresho by'ikoranabuhanga, imyenda, inkweto ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye.

Urubuga ruriho urutonde rw'ibicuruzwa, ibiciro byabyo ndetse n'ikigero mfatizo umuntu agomba gutumiza. hari kandi amakuru ajyanye n'igihe iguriro rimaze ku isoko, ikimenyetso cy'uko ryemewe, hamwe n'uburyo bwo kuvugana n'abatanga ibyo bicuruzwa. Ubu ni uburyo bukunzwe gukoreshwa mu bucuruzi mpuzamahanga, aho abantu babona ibicuruzwa byinshi ku giciro kiri hasi bakagurija mu buryo bw'ubucuruzi bw'imbere mu gihugu cyangwa bwagutse.

Amahitamo yo kohereza cyangwa kwakira ibicuruzwa no guhitamo igihugu cyangwa agace, hari kandi ahifashishwa mu gushakisha. Ibi byaba bifitenye isano n'ubucuruzi bwambukiranya ibihugu cyangwa se imigabane.

Amagambo yanditswe mw'ibara ry'umweru aramamaza uburyo bwo guhaha mu mgi wa Kigali hifashishijwe ikoranabuhanga. Abantu bashobora guhaha ibikoresho bikoresha amashanyarazi, ibikoresho byo mu nzu, ndetse n'ibindi bicuruzwa bitandukanye bikorerwa mu Rwanda.